Banki ni ingenzi mu baturage, banki yaziye igihe. Umuturage wese ujya gufata nk'amafaranga y'inguzanyo muri banki, akayakoresha neza cyane cyane mu bihe by'ubuhinzi, ubuhinzi iyo wabukoreshejemo imbaraga, ugashimo ubwenge, ukabikorana umwete mu kwifasha amafumbire bikagenda neza cyane.

Eturu zigizedi ini cikeni, itizi veri egisipensive, bikoze iti kamufomu enada kantiri, rayike sipuni, wicizi hadi..

Igihingwa cya avoka ni igihingwa kijyohaga, usanga mu Ntara y'Amajaruguru zitera cyane ariko aho bazaniye ibintu byo kubangurira, eee avoka iraryohaga cyane cyane ku buryo rwose uyirya ukumva uranezerewe.